Umuntu ufite mikoro inyuma ye haritete irimo abantu, n'abayobozi ari kubwira abaturage bariri mu nama cyangwa bari mu biganiro umuntu ufite mikoro yambaye ijire afite icyo ashinzwe buriya arikugira ubutumwa cyangwa mesaje agenera ababo arikubwira.

Inama cyangwa amahugurwa ari gukorwa n'abayobozi b'ikigo runaka, bicaye mu ntebe nziza z'imisego zo mu biro, bari mu nama kugira ibyo baganiraho, hari ikibazo bari gukemura, hari imyanzuro bari gufata, muri makeya ni nama iri gukorwa mu kigo runaka.

Hano ni muri sare y'ikigo runaka aho bari mu nama hari ibyo bari kwigaho, inama igakorwa n'abayobozi, bakaganira n'abayoborwa, cyangwa na komite nyobozi yose, hari ingingo bari kwigaho hari ikibazo bari kwigaho, hari icyo bashaka gukemura muri sare ahakorerwamo inama.

Inama cyangwa ibiganiro biri gukorwa n'abayobozi, babwira cyangwa bashishikariza abaturage n'inteko y'abaturage bari kuganira ingingo zitandukanye, bafata imyanzuro baganira ku ngingo zinyuranye zibareba.

Inama iri gukorwa n'abayobozi ndetse n'abafatanyabikorwa babo, baganira bashaka umuti w'ikibazo bari kugirana inama, ndabona umumama, umupapa, imbere yabo hari mashine, hari amazi hari ameza n'intebe nziza, bya bindi bigenewe bikoreshwa mu nama z'abayobozi.

Ikiganiro kiri gukorwa bagaragaza ingingo, aho mpabona abantu batatu bicaye ku ntebe zo mubiro, bari mu kiganiro cyangwa inama iri gukorwa, barebera hamwe nyine ingingo ibiri kuganirwaho cyangwa inama n'imyanzuro iba iri gufatwa, haba hari ingingo baganiraho nyine bafite nabo babwira birumvikana.

Ndabona ari abayobozi cyangwa abanyamuryango bari kwigishwa n'uyu muvandimwe uhagaze barakoresha porojegiteri urabibona ku gikuta hariho mashini iporojegise bari mu nama bari mu mahugurwa bari kwigishwa hari ibyo bari kubwirwa n'aba bicaye bateze amatwi barakurikiye ntekereza ko ari nk'inama iri kubera muri iyi sale cyangwa amahugurwa.

Sale iri kuberamo inama yateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere hakaba hari kuganirwa ku ngingo zitandukanye ndabona umugabo ufite micro uhagaze afite ijambo hari abayobozi bicaye mu byicaro byabo kuri podiyumu hari n'abatumirwa batumiwe ,abafatanyabikorwa bari kuganira muri iyo nama cyangwa muri iki kiganiro .

Inama cyangwa amahugurwa ari gukorerwa muri sare ahuje abayobozi abafatanyabikorwa ndetse n'abanyamuryango b'icyo kigo cyangwa b' ur rwego rw'ubuyobozi cyangwa rw'imirimo bari mu nama cyangwa amahugurwa muri sare.

imbere muri sare hari kubera inama amahugurwa cyangwa ikiganiro bateze amatwi abitabiriye icyo gikorwa kiri kubera muri iyo sare bicaye mu byicaro byabo ndetse imbere yabo ndahabona amazi y'inyange abafasha kutagira icyaka ni muri sare hari kubera inama n'amahugurwa cyangwa ibiganiro biri gutangwa n'umuyobozi abiha aba bakurikiye

Ikiganiro cyangwa amahugurwa biri gutangwa n'umuyobozi abiha abatetsi cyangwa abakora mu gikoni bicaye mu byicaro byabo, ku rundi ruhande hari n'abandi bakobwa bicaye bambaye amashati meza y'umweru.

Umuntu baturutse mu rwego rwa leta afite mikoro yahawe indangururamajwi ari kugira ubutumwa agenera abo bari kumwe baturutse mu nzego za leta, aho ubutumwa abaturage abagezeho gahunda, abagezaho ibikorwa ari gufata nyine ijambo ashyikiriza abaturage abamukurikiye n'abamuteze amatwi.

Inama cyangwa ibiganiro biri gukorerwa muri sale nini yagutse harimo abayobozi harimo n'abafatanyabikorwa abaturage basanzwe buri wese yicaye mu byicaro bye bari guhabwa ibiganiro bari mu nama bahabwa impanuro cyangwa bari mu mahugurwa bahabwa amahugurwa atandukanye.

Inama cyangwa amahugurwa ari gukorwa muri sare iteranimo abayobozi, abafatanyabikorwa, ndetse n'abagenerwabikorwa, bari kwiga ku kintu runaka.

Inama iri gukorerwa muri sare, igakorwa n'abayobozi baganira n'abafatanyabikorwa babo, aho bari mu nama cyangwa hari ingingo bari kwigaho, bicaranye ibitabo, bicaye ku ntebe nziza zo mu biro, bafite ibitabo, imbere yabo hari amazi, bari kuganira, bari mu nama, ni muri sare nyine bari kuganira.

Abantu bicaye neza, bari mu byicaro byabo byiza, mu ntebe z'imbaho zirimo n'imisego, bari mu nama cyangwa ikiganiro, urababona ko bari konsantere nyine bari hamwe bakurikiye cyangwa hari amakuru bari gutanga, muri makeya rero, ni inama cyangwa amahugurwa bitabiriye, bakaba bari gutangamo inama, ibitekerezo, baganira.

Ibyapa bitandukanye biri gutanga amakuru yuko hakorerwa serivise z'ibi bigo, hari ekwiti banke, hari n'umuajenti wa banke runaka utanga serivise za banke, hari ibyapa bya mtn. Ni ahakorerwa ubucuruzi bw'amabanke cyangwa bw'ibigo runaka.

Iyi ni gahunda ya rwanda reveni otoriti, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro aho cyari kiri gushimira nyine abasora, kibashishikariza gutanga fagitire za ibiyemu kubacuruzi batandukanye batanga serivisi zitandukanye, babashishikariza gutanga fagitire ya ibiyeme rero ni insanganyamatsiko cyangwa ibyo bagenderagaho.

Barerekana baragaragaza uburyo bakoresha iyo sisiteme cyangwa iyi porogarame y'ikigo k'imisoro n'amahoro.

Itangazo ryibutsa cyangwa rimenyesha abakiriya bakoresha serivisi z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro hano bari bari kwamamaza banamenyekanisha ko igihe ntarengwa umunsi wa nyuma bamenyesha abakiriya kugira ngo batunganye ibyo batatunganyije bishyure igihe cyageze .

Icyapa cyangwa ifoto igaragaza, yerekana, itanga amakuru y'uko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, hari serivisi cyajyaga gitanga, ariko zikaba zimuriwe ahantu, n'uburyo bwo kumenyesha, uburyo bwo kubigaragariza abakoresha izo serivisi z'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, gikangurira abagenewe ubwo butumwa kubimenya no kugira ngo bahabwe amakuru.

Itangazo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda revenu otoriti, kirikwibutsa abanyamuryango babo ko itariki ntarengwa nyine kwishyura kumenyekanisha umusoro, muri make ni serivisi ya Rwanda reveni bamenyesha abakiriya n'abafatanyabikorwa ba Rwanda reveni babamenyesha gahunda ihari babibutsa.

Iyi n'inama cyangwa ibiganiro byari byahuje abayobozi mu nzego z'ubuzima aho bari bari kwishimira uko batsinze n'uburyo barwanyije icyorezo cya mabaga cyari cyari cyaradutse mu Rwanda. N'inama cyangwa ibiganiro byari byahuje abayobozi ndetse n'abafatanyabikorwa mu nzego z'ubuzima.

Ifoto igaragaza uburyo iri siganwa ry'amagare rizaba mu gihugu cy'u Rwanda, akamaro karyo, abafatanyabikorwa, aho wanyura kugira ngo ubone ibindi bisobanuro birambuye.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kiri kwibutsa kiri kwibutsa abakiriya bacyo abahabwa serivisi zacyo uburyo bwo kwishyura. Kwishyura ideni, kwishyura imisoro mu gihe runaka ko ari itariki yanyuma nyine ikiri kumenyesha abakiriya bacyo kibashishiriza kwishyu.

Kumenyekanisha cyangwa kubwira abakiya bakoresha serivisi z'irembo uko bashaka/babona serivisi runaka ibisabwa, amahame bagenderaho inzira bakurikiza kugira ngo babone serivisi z'irembo, ni mu buryo bwo kumenyekanisha cyangwa kwamamaza serivisi zitangwa n'ikigo cy'irembo.

Umunara muremure ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, aho uyu munara ushinzwe guhuza inzira kugira ngo abantu babiri babashe kuvugana bari ahantu hatandukanye, ni umunara ushinzwe guhuza inzira senyare z'abantu babiri batandukanye ugahuza abo bantu nyine.

Ni amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga aho bari baguye ku nkuru nyine ivuga ku kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB hano bari mu nama bafata ifoto y'urwibutso, n'inkuru nyine iba yasohotse mu bitangazamakuru igaragaza nyine ukuntu kino kigo cyakoze. Bafashe ifoto y'urwibutso n'ibyakorewemo byose bikabigaragaza mu bitangaza makuru.

Sisiteme cyangwa porogaramu umuntu anyuramo ashaka serivisi, hari ibyo ari kubaza, hari ibyo ari gutanga, hari amakuru agira ngo atange, byanyujijwe kuri telefoni cyangwa kuri mashini, aho umuntu uri kubikoresha yinjira muri iyo sisiteme cyangwa iyo porogaramu agira ngo agire serivisi abona cyangwa n'amakuru atanga ku bigo bibishinzwe.

Umunara muremure uriho amakamba n'imigozi hejuru yawo, nkabona amapoto abiri ku ruhande rw'uwo munara atwaye amakamba cyangwa insinga zitwara amashanyarazi zivana hamwe ziyajyana ahandi, nkabona inzu yegeranye n'uwo munara ameze neza, umunara rero by'umwihariko ukaba wifashishwa mu gutwara ihuzanzira cyangwa netwok kuba

Umuhanda urimo kamera zo mu muhanda, kuri iri poto ribanza n'irikurikira, rikaba ari ipoto rihuriraho insinga zijyana amashanyarazi ahantu hatandukanye cyangwa ku nyubako zitandukanye. Rero ipoto rya mbere riranyereka Kamera zo mu muhanda, zireba ibyerekezo bitandukanye, irya kabiri akaba ari ipoto rishamikiyeho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi.

Umunara muremure cyane, unyuraho insinga zijyana amashanyarazi, uyu munara ukaba utanga konekisoyo ihuza nzira cyangwa ugatanga ugafasha mu guhuza izo nsinga ziba zijyana umuriro ku bantu batandukanye abaturage ku ngo, muri makeya ni umunara nyine ufasha mu ihuzanzira.

Amakamba cyangwa imigozi bakoresha by'umwihariko bahuza imiriro ku mazu atandukanye cyangwa insinga zicamo imiriro, iva ahantu hamwe ijya ahandi, muri makeya muzinga ni amakamba ahuza nyine yafashaga gutaransiferinga ibintu

Hano ni kukigo nderabuzima cyangwa ibitaro aho abarwayi bicaye bategereje serivise za muganga, bategereje serivise z'ubuzima. Aba ari abarwayi nyine baje gushaka serivise z'ubuzima kwa muganga cyangwa ku bitaro ndetse n'ivuriro bategereje kugirango uwagiye uwaje mbere akorerwe mbere n'abamukurikiye nyine bakurikireho, ni servise z'ubuzima baje.

Ikigonderabuzima ndabona kiriho imodoka z'imbangukiragutabara zitwara abarwayi ndabona umuforomo ndabona umurwayi ndahabona amapave ndabona inyubako zivuriro cyangwa z'ibitaro ni ahatangirwa serivise z'ubuzima ku kigonderabuzima cyangwa ku bitaro bafasha abarwayi, inkomere, indembe.

Ikinyabiziga cyitwa imbangukiragutabara, iki kinyabiziga kiratabara, kirihuta, gifasha umurwayi kutarembera mu rugo, ni ikinyabiziga ndakumirwa, yo akenshi gikorwa gikoreshwa muri serivise z'ubuzima n'iz'ubuvuzi, aho gitwara umurwayi, indembe barembye cyane , bakeneye ubuvuzi bwihariye kandi bwihuse, ni imbangukiragutabarara iratabara.

Ni umuhanda urimo aho banyura bazengurutse, aho banyura bazengurutse hakaba harimo amadarapo abiri ndetse n'ibinyabiziga biparitse ku ruhande by'ubwoko butandukanye.

Ndabona ari mu biro cyangwa aho abaganga bakorera. aho umunyamahanga yari ari kwigisha cyangwa yereka mugenzi we w'umunyafurika cyangwa umunyarwanda uburyo bakoresha system. Bakoresha progaramu amwigisha amusobanurira. ndahabona pubele, ndahabona intebe bicayeho, ndahabona flat tv. Mu nzego z'ubuzima ni naho bari bari kwigisha umunyamahanga ari kwigisha umunyarwanda.

Ikinyabiziga cyitwa imbangukira gutabara aho kitabara bwangu kikajyana umurwayi ku bitaro mu gihe arembye mu gihe arwaye bikomeye cyane nikinyabiziga rero gitwara abantu abarwayi barembye cyane kibihutisha ku bitaro guhabwa serivisi z'ubuzima.

Umudamu ukora m'ubutabera ni umucampanza yambaye imyenda ye y'ubucampanza igaragaza ko akora mu butabera nyine ni umucampanza mukuru.

Inyandiko irimo ibika ndetse n'ingingo zinyuranye zanditse mu itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda, aho harimo ingingo ikaba inasobanuwe mu buryo burambuye, ni itegeko nshinga muri rusange inyandiko yaryo ingingo ndetse n'ubusobanuro bwa buri ngingo uko bumeze n'uko busobanurwa.

Umu mama wambaye amarinete, wambaye ibitenge byiza uhagaze afashe ijambo ari kugira icyo abwira cyangwa atangariza abamuri imbere abo ari kubwira, muri makeya ni umu mama ufashe ijambo, ufashe umwanya wo kugira ibyo atangariza abamukurikiye, abari ku mureba.

Paul Rusesabagina ni umunyarwanda ariko wari uhagarariye umutwe wa Efereni, wari ugizwe n'abaterabwoba baje gutera ubwoba, bakangiza ibikorwa remezo by'u Rwanda, bakica abaturage, ni umutwe nyine w'iterabwoba. Uyu ni we uwuhagarariye, yitwa Paul Rusesabagina, yari ari mu rukiko yafashwe n'u Rwanda.

Imfungwa z'abagore igitsina gore zakatiwe zambaye imyambaro y'imfungwa iroza, bambaye umuhondo, bamwe bambaye iroza nyine, ni abakurikiranyweho ibyaha bakoze ibyaha abakatiwe, bafunze imfungwa bari mu magereza cyangwa mu makashu.

Imfungwa yambaye imyenda y'iroza, akenshi imyambaro yambarwa n'abanyabyaha bakatiwe, aho baba bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, hano ni mu rubanza, akurikiranyweho ibyaha yakoze, ari mu gihano arafunzwe, hari abacungagereza n'abandi bari mu rukiko,

Hano ni mu rukiko mo imbere aho harimo umugororwa, ndetse n'umwunganira we mu mategeko. Ari kureba dosiye ye, igaragaza ikirego bamurega n'ibyaha akurikiranyweho. Mu rukiko imbere, haba hateraniye inteko iburanisha, umucamanza, yego.

Imodoka cyangwa ikinyabiziga cya polisi y'u Rwanda, ishinzwe gutwara abantu bakurikiranweho ibyaha, bakoze ibyaha bitandukanye bagira ngo bajyanwe mu dukasho twa polisi cyangwa bajyanwe mu nkinko. Ni vani ya polisi rero ishinzwe gutwara abantu bakurikiranweho ibyaha.

Umuyobozi wa polisi, cyangwa umuyobozi ushinzwe gukurikirana no kugenzura umutekano wo mu muhanda, yambaye impuzankano za polisi y'u Rwanda yahagaze hafi y'aho abanyamaguru bambukira ,baba bambuka umuhanda harimo n'ibinyabiziga hakurya ndimo ndabona n'ibyapa ni mu muhanda bakoresha umuhanda ndetse n'umupolisi ushinzwe umutekano.

Ikinyabiziga cya polisi y'igihugu, gishinzwe gucunga no gukontorora kureba umutekano wo mu muhanda, giparikanye hamwe n'ibindi binyabiziga by'abantu ku giti cyabo, by'umwihariko rero iki kinyabiziga kiriho ibendera rya polisi y'igihugu, kiriho amatara hejuru y'intabaza, ni ikinyabiziga gishinzwe gucunga umutekano wo mu muhanda.

Icyapa kigaragaza ko hano hari ibiro cyangwa ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda, hano ni ku muhima ni icyapa kerekana kiranga ko hano hari ibiro bikoreramo polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Umuyobozi ushinzwe gukurikirana umutekano wo mu muhanda yambaye impuzankano ya polisi y'igihugu bigaragara ko ashinzwe umutekano wo mu muhanda ari kureberera, ari kureberera umushoferi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga muri sisiteme niba nt'amande afite niba nta makosa afite cyangwa niba hari amakosa akurikiranyweho yakoze.

Izi ni za kizimya amato bamanika ziba ziri aho hafi nyine hakorerwa ibintu bitandukanye, aho ziba zishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro, zitwa za kizimyamoto zizimya umuriro ariko ahantu hari inkongi nyine y'umuriro ariko idakabije ntoya, ku buryo ziba zifite amagaze ziba zifite amazi ashobora kuzimya.

Umupolisi cyangwa umuyobozi ushinzwe kugenzura umutekano wo mu muhanda, yarari gukoresha serivisi za polisi y'igihugu, aho yarari kurebera umuyobozi w'ikinyabiziga niba yujuje ibyangombwa, niba amakarita ye akora neza, muri makeya ni umupolisi ushinzwe umutekano mu muhanda warurimo aragenzura umutekano w' muhanda areba ko abayobozi b'ibinyabiziga bujuje ibyangombwa.

Imbere mu nteko ishingamategeko aho abayobozi bari kurahira barahirira inshingano bashyizwemo n'umukuru w'igihugu, muri makeya ni irahira ry'abayobozi barahirira inshingano bashyizwemo, bagiyemo bagiye gukora yego.

Irahira rya Nyakubahwa Perezida wa repubulika w'u Rwanda Poro KAGAME kuruhande rwe rw'iburyo ndahabona Madamu Janeti Kagame, ku ruhande rw'ibumoso hariho idarapo rya Repubulika y'urwanda ndetse na Perezida w'Urukiko rw'ikirenga, inyuma ye hari abanyacybahiro batandukanye, ni muri sitade Amahoro ndetse nkabona n'idarapo rya Repubulika y'u Rwanda.

System cyangwa program umuntu uri kuyikoresha yinjiriyeho ahari serivisi akeneye cyangwa ashaka ariko bikaba biri kw’ lordinga amakuru akurikiraho cyangwa ibintu bikurikiraho ayakomeza gukora bitaruzuswa neza ku buryo ahita akomeza hano biba bikifungura rero ategereje ko byifungura agakomeza agakora ashaka nandi makuru akora ashaka serivisi ashaka.

Igikorwa cyo kwamama, uyu mukandida watanzwe n'ishyaka rya efuperi inkotanyi, akaba ari igikorwa cyo kwiyamamaza, ifoto igaragaza abadamu babaneza bakenyeye neza, bafite amabendera y'umuryango wa efuperi inkotanyi, ni mu gikorwa cyo kwiyamamaza k'umukandida w'umuryango fpr inkotanyi.

Mugikorwa cyokwamamaza umukadida wa FPR INKOTANYI, Nyakubahwa Peresida wa Repuburika Paul KAGAME. Hano hari mugikorwa nyine cyokumwamaza azeguruka ahantu handukanye, intara zitandukanye zigihugu cyu Rwanda, nigikorwa nyine cyokwamamaza umukadida watanze nishyaka FPR INKOTANYI, Nyakubahwa Peresida wa Repuburika Paul KAGAME.

Ibinyabiziga bizwi nka rukururana birebire bitwara ibintu byinshi kandi biremereye, biri gukoresha umuhanda, bikoresha umuhanda.

Ibinyabiziga biparitse muri gare ahanini bitwara abagenzi n'ibintu byabo mu buryo bwa rusange, amabisi maremare atwara abantu mu buryo bwa rusange.

Icyapa cyerekana ko aha hafi cyangwa aha cyegereye hemerewe guhagarara ibinyabiziga bitwaye cyangwa bitwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange, ariko na byo bigahagarara, bikahahagarara umwanya mutoya. Ndahabona n'ibisharagati biri kwamamaza umuco, biri kumenyekanisha, biri gutangaza amakuru.

Ikinyabiziga giparitse kiri gupakirwamo ibikoresho by'ubwubatsi ndabona ibyuma hari n'ibindi bipakiye imbere mu modoka, nkabona umuntu uri gupakira ibyo byuma ndetse n'undi mugenzi uri kwigendera n'amaguru, ni mu muhanda nyine bari gupakirira.

Ikinyabiziga kiri gukoresha umuhanda kiri mu muhanda kirikoreye gikoreye nk'amabuye cyangwa umucanga. Ni ikinyabiziga cy'amapine icumi akaba ikinyabiziga cyikora gikoreshwa mu gutwara imicanga n'amabuye kiri gukoresha umuhanda bizwi n'ibikamyo nyine amadipine bizwi nk'amadipine.

Umuhanda urimo ibinyabiziga harimo ibinyabiziga bitoya, harimo n'ikigikamyo gitwaye ibicuruzwa, ndabona amapave, ndabona amarigori yo mu muhanda, ndabona abagenzi bagendesha amaguru ku mapave nabo bakoresha umuhanda, muri makeya n'abakoresha umuhanda bose, abatwa ibinyabiziga, abari kuri moto abari mu modoka, ibinyabiziga nyine.

Mu muhanda na Nyabugogo amarembo ya gare ya Nyabugogo, haparitse ku ruhande moto zitwara imizigo ni moto zizwi nka rifani, zikaba zifite amapine atatu, zikoreshwa mu buryo bwo gutwara ibintu nyine byinshi bitandukanye biva ahantu hamwe bijya ahandi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri ndetse n'ikinyamitende, ikinyamitende ni iki kiriho umunyonzi wambaye ingofero, ndetse ibinyabiziga, moto y'amapine atatu hariho nimero z'umushoferi, kikaba gisakaye. Ni moto y'amapine atatu itwara ibintu byinshi, ndetse harimo na bisi itwara abantu mu buryo bwa rusange, biri kunyuranaho.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda kiri gukoresha umuhanda, gitwawe n'umuyobozi w'ikinyabiziga, kikaba gipakiye cyangwa kirimo ndetse kinatwaye amacupa ya gaze, ni ikinyabiziga kigenewe gukwirakwiza gaze nyine ahantu hatandukanye hirya no hino mu gihugu, kiri gukoresha umuhanda kiri mu muhanda icyo kinyabiziga.

Umuhanda urimo ikinyabiziga gitwawe n'umuyobozi w'ikinyabiziga, inyuma ahajya imizigo hicayemo umuntu kiramutwaye kiri gukoresha umuhanda, harimo n'abagenzi mu muhanda bari kugendesha amaguru, bagendera ku gice cyagenewe abanyamaguru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri, harimo ikinyamitende, moto, ni moto, umumotari atwaye umugenzi, bambaye kasike, bari kuri moto y'amashanyarazi, hirya yaho hari igikamyo gitwawe n'umushoferi kiri mu muhanda, umumotari akaba ari kunyuraho ku gikamyo nyine, icyo bita kudepasa.

Mu muhanda ndabona umunyamaguru ndabona ibinyabiziga ikiri imbere cyane ni iyi modoka ,ibyo ndi kurebesha amaso neza ni ibinyabiziga bizwi nka moto, ariko hari imoto y'amashanyarazi iri kunyura kuri iyi ngiyi yindi isanzwe, ifite amapine atatu ikunda gutwara ibicuruzwa no gutwara ibintu byinshi. n'abakoresha umuhanda.

Ni abakoresha umuhanda ni ibinyabiziga ndahabona moto itwara abantu yicayeho umuntu umwe, ndahabona moto y'amapine atatu itwaye ibintu ndahabona munyonzi atwaye umugenzi ndahabona umugore ari gucuruza ibisheke mu ndobo, muri rusange ni mu muhanda ariko n'abakoresha uwo muhanda abanyamaguru baratwaye ibyanyabiziga.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa kategori se, aho gifunze neza gifungishijwe shitingi, kiri mu muhanda wa kaburimbo kiri mu cyerekezo cyacyo, muri makeya ni ikinyabiziga kiri mu muhanda kiri kugenda gitwaye ibicuruzwa cyangwa ntabirimo bitewe n'umushoferi ugitwaye.

Mu muhanda harimo igikorwa remezo cy'inzu, aho yagenewe kwicarwamo n'abagenzi, bategereje ibinyabiziga bibajyana mu byerekezo bagiyemo, hari abanyamaguru bari gukoresha umuhanda wagenewe kugenewe kugendwamo nabanyamaguru nyine, ariko icyo gikorwa cy'inzu hafi yaho, kikaba cyicarwamo n'abagenzi bategereje ikinyabizi.

Ndabona ari ikibuga cyo gikoreraho siporo, hakinirwaho imikino itandukanye, by'umwihariko ndabona wagira ngo ni basiketiboro ikinirwaho, nkabona ama esikariye abafana bicaraho, nkabona aho amakipe abiri yaje guhangana yicaraho ibyicaro byabyo, nkabona ibiti, so simpuri ni mu kibuga gikinirwaho imikino.

Iyi ni tapi ntoya itari nini cyane arikokenshi zikunze gukorerwaho siporo n'abantu batandukanye, siporo zo kugenda cyangwa buhoro ukora siporo, ni itapi rero nziza y'icyatsi kibisi zifasha abantu gukora siporo, kugirango ubuzima bwabo bugende neza.

Iki ni icyapa kimenyesha cyangwa kigaragaza ko hano uruhande rw'iki cyapa cyangwa hafi y'iki cyapa, hahagarara imodoka zitwara abantu n'ibintu muburyo bwa rusange.

Icyapa cyo mu muhanda kimenyesha ko hafi aho, aho kiri, hari ivuriro cyangwa hari imihanda yo mu byerekezo bine, igikomeza hirya n'ibikata iburyo n'ibumoso, ni icyapa muri makeya kiranga, kigaragaza umugenzi cyangwa umuntu wese ukoresha umuhanda.

Iki ni icyapa kiri hafi y'umuhanda, kerekana ko hafi aho ngaho, imbere hari inzira y'abanyamaguru bambukiranya umuhanda, bita zeburakorosingi mu ndimi z'amahanga, ariko icyo cyapa nyine kerekana umushoferi, umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere hafi aho ngaho hari inzira abanyamaguru bambukiraho.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Icyapa gishizwe kuburira no kumenyesha abatwaye ikinyabiziga cy'imodoka ko bagomba kugenda gahoro, aho hantu cyangwa hafi y'icyo cyapa ahnatu giherereye, kugenda gakeya bakagabanya umuvuduko w'ibinyabiziga bari kugenderaho, muri uwo muhanda cyangwa afi y'icyo cyapa.

Icyapa kimenyesha cyangwa kiburira umushoferi utwaye ikinyabiziga ko imbere hari amakorosi ari mu muhanda n’ ikimenyetso n’ icyapa kiburira cyangwa kimenyesha umushoferi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga.

Icyapa kiri hafi y'umuhanda hakaba hari ibiti ndetse na pasiparume n'indabo iruhande rw'icyo cyapa icyo cyapa kikaba cyekana cyangwa kikaranga, urabona abaturage, umuturage uri ku muhanda n'ikinyabiziga, ndetse n'ibikorwaremezo nyine byegereye umuhanda.

Inyubako ya etaje igeretse irimo amabara atandukanye ibirahuri, nkabona izindi nzu ntoya kuri yo ziri hasi nkabona ibiti muri makeya ni igorofa rigeretse nyine.

Ahantu cyangwa karitsiye igenewe imiturire ndabona ingo z'abantu amazu asakaye, asakajwe amabati atandukanye, n'ngo nyinshi bigaragaza ko ahantu hatuwe n'abantu batandukanye muri aya mazu hirya ndabona ibiti byinshi hakuryaho ndabona naho amazu muri make ya ni site cyangwa zone yimiturire y'abaturage.

Ikinyabiziga ariyo iyo modoka yari iri gusohoka mu gipangu ijya mu muhanda, yasohokaga mu gipangu kirimo iyindi modoka ya sosiyete ishinzwe gucunga umutekano ndetse n'inyubako irimo y'umweru iri muri icyo gipangu, muri makeya ni modoka yari iri gusoka mu gipangu ndetse n'yindi yari iparitsemo.

Ndabona inzu iri imbere mu gipangu nkabona uruzitiro ruzitiye iyo nzu n'ibindi bikorwa biri haruguru y'inzu, ndabona ibigega bitatu biri hejuru, ibyo bigega bifata amazi y'imvura.

Inyubako nziza cyane nziza ihebuje ihagaze neza igeretse, ni etaje nziza iri kumurongo ubona ko yubatswe neza iri ahantu hafite isuku ndabona hasi yaho kuruhande haparitse imodoka, hasi hari amapave, hari inyingi, amagaridefo yubatse neza, muri rusange ni inyubako nziza iteye ubwuzu.

Icyuma kiririho icyapa ndabona ibyuma biri ku muhanda ndabona ikinyabiziga kiri kugenda muhanda w'umukara nkabona hakurya y'umuhanda hari igipangu kirimo etage igeretse nkabona n'icyapa kiri ku muhanda cya eyateri cyamamaza cyangwa kimenyesha serivise zayo.

Igipangu kirimo inzu igeretse hafi yaho harimo inzu ntoya ariko zigisakajwe n'amategura, ni mu gipangu gikorutiriye neza harimo iyo nyubako ya etage igeretse ndetse n'izindi ntoya.

Mu muhanda rwagati mu masaha y'ijoro aha hino kuri iki gice kigendedwaho n'abanyamaguru hari ububiko bwagenewe kubikamo cyangwa kujugunywamo imyanda ikoreshwa n'abakoresha umuhanda harimo ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda bibisikana by'umwihariko imodoka inini n'intoya ndetse n'abanyamaguru bari gukoresha umuhanda.

Ahantu hagaragaza ko hatuwe, ni mu miturire, agace karitsiye harimo ibikorwaremezo cyane cyane inyubako izigeretse ndetse n'intoya, muri make ya ni site yagenewe imiturire.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kizwi nka moto kiriho umuyobozi wacyo, umushoferi w'iyo moto hakaba hegereye n'igipangu, aparitse ku ruhande rw'umuhanda ndetse no ku ruhande rw'igipangu.

Umuhanda uri ku kiraro hejuru, munsi y'ikiraro harimo undi muhanda unyura munsi y'ikiraro, ndabona ibinyabiziga biri kunyura muri kaburimbo iri hejuru y'iki kiraro, ni ikiraro gikomeye kiriho kaburimbo izamuka, hariho ibinyabiziga bibiri biri kubisikana ndetse n'abanyamaguru bari kunyura ku mapave yegereye kaburimbo iri kuri icyo kiraro.

Uno n'umuhanda, aho ugaragaza ino mirongo aho abanyamaguru bambukira. Ibinyabiziga bikaba bitemerewe kurenga uno umurongo munini uciye mu muhanda.

Uyu ni umuhanda uri mu byerekezo bibiri, hari ibyerekezo bigenda mu muhanda ukomeza w'iburyo, hari n'iyo mu kindi cyerekezo, harimo ibinyabiziga bikoresha umuhanda, amamoto n'ama.

Ikinyabiziga cya moto gitwara abantu kibaha umunyenga bakagiha amafaranga, gitanga serivisi zo gutwara abantu mu bice bitandukanye, hano yari atwaye umudamu, umumama uhetse umwana kuri moto, bamaze guca munsi y'ikiraro

Ikinyabiziga kiri gukoresha umuhanda kiri mu muhanda kigenda gitwawe n'umuyobozi w'ikinyabiziga akaba ari ikinyabiziga gishinzwe kugemura gukwirakwiza inyama hirya no hino kumazu acuruza inyama ku bakiriya n'imodoka rero ikinyabiziga gishinzwe kujyana izo nyama hirya no hino kuma busheri azicuruza akaziha abakiriya bakazikoresha.

Imirongo yo mu muhanda yerekana ibyerekezo nk'ikingiki kirerekana icyerekezo cy'iburyo, kiriya cy'umweru nacyo gikomeza kirerekana icyerekezo gikomeza, ndabona umurongo w'umuhondo ugabanya umuhanda mo kabiri, ndabona ibindi byerekezo bitandukanye biyobora abagenzi n'abakoresha umuhanda, ndabona n'ibinyabiziga.

Mu muhanda ibinyabiziga byahawe uburenganzira n'amatara agizwe n'ibimenyetso bimurika icyatsi, umuhondo, mu mugihe icyatsi cyerekana ko ibinyabiziga bifite uburenganzira bwo kugenda, umutuku, cyerekana ko ibinyabiziga bifite bigomba guhagarara, ibi binyabiziga rero byahawe uburenganzira n'itara ry'icyatsi kibisi naho bigomba kugenda.